Mu buhinzi dukenera ifumbire, bayishira ku bihingwa biba bitandukanye, bayishyira no ku bigori, bayishyiramo babitera, iyo bimaze kumera bashyiraho akandi bakabibagara, bigakura neza cyane rwose.

Mu bajyanama b'ubuhinzi bagira imiti bakoresha harimo detane, ni umuti wica ubukoko, ugatuma ibihingwa bikura neza cyane nta mbogamizi, bigakura bisa neza cyane.

Mu buhinzi dukenera ibintu byinshi biba bitandukanye dukenera: ifumbire, hari ifumbire y'imborera ,ifumbire y' imvaruganda, ifumbire y'imvaruganda iba yaracishijwe mu ruganda ,igapakirwa mu mifuka hagendewe ku biro bitandukanye haba: imifuka y'ibiro bitanu ,iy'ikiro kimwe ,iy'ibiro icumi n'ibindi byinshi cyane.

Mu buhinzi dukenera ibintu byinshi biba bitandukanye, dukenera ifumbire yo gufumbiza imyaka, mu myaka washyizemo ifumbire ikura neza cyane, igatanga umusaruro uhagije ukaba watunga urugo uka kajyana ku isoko, ukabona amafaranga yo gukemuza ibindi bibazo.

Mu buhinzi dukenera ibintu byinshi biba bitandukanye, dukenera ifumbire, ifumbire ni nziza cyane bayishyira mu bihingwa babitera cyangwa bari kubagara, bituma ibihingwa bikura neza cyane bituma bisa neza bitanga umusaruro uhagije.

Mu buhinzi dukenera ibintu byinshi cyane biba bitandukanye abahinzi, n'abajyanama b'ubuhinzi baba bafite imiti y'ubwoko bwinshi, habamo irinda ubukoko, ituma ibihingwa bisa neza, itumaga imbuto zisa neza zikazana n'ibiheke binini cyane.

Mu buhinzi duhinga imyaka iba itandukanye, habamo n'ibigori n'imboga, n'ibindi byinshi, haba kubitera umuti bakica udukoko tuba twabyatatse, kugira ngo bibashe gukura neza, byere neza bitange umusaruro uhagije.

Mu buhinzi haba ibihingwa biba bitandukanye, haba inyanya, ni igihingwa kitabwaho cyane, bagitera umuti wica ubukoko, kugira ngo kizatange umusaruro uhagije, basagurire n'amasoko.

Mu buhinzi dukenera ibintu byinshi dukeneramo ifumbire, hari ifumbire y'imborera, n'ifumbire mvaruganda, ifumbire mvaruganda barayitunganya cyane bakayishyira mu mifuka yabugenewe, bakayijyana ku isoko abantu bakayigura bakayijyana kuyiteresha imyaka.

Tugira ubwoko bw'ibiribwa biba bitandukanye hari ibyororerwa mu mazi habamo:isambaza, indagara, baraziroba bakazijyana ku isoko, izindi bakazirya zigatanga n'amafaranga yo gufasha mu rugo bagakemura ibindi bibazo.

Tugira ibiribwa biba bitandukanye, hari ibikomoka mu mazi haba amafi, ni ibiribwa byiza cyane biraryoha, amafi barayateka bakayarya bashyiramo n'agasenda, isosi ikaba nziza cyane bakarisha ubugari n'ibindi biba bitandukanye.

Tugira ubwoko bw'inyamanswa ziribwa, hakaba n'izororerwa mu mazi. Amafi na yo yororerwa mu mazi, barayaroba bakayabaga bakayateka. Ni ibiryo biryoha cyane, umuntu wese uriye ku ifi yumva rwose anuriwe cyane.

Tugira ibiribwa biba bitandukanye, hari ibyororerwa mu mazi, habamo isambaza, isambaza ni nziza cyane, baraziroba bakazitunganya, bakazijana, ku isoko, baraziryaga, ziraryoha, ziba mu byubaka umubiri.

Tugira ibiribwa biba bitandukanye，hari ibyororerwa mu mazi，habamo amafi， barayaroba， bayashyira mu dupaniye，twabugenewe， bakayatunganya， bakayajyana ku isoko， tukayagura， tukajya kuyarya， amafi ni meza cyane， agira intungamubiri ziba zitandukanye， yubaka umubiri， akarinda n'indwara.

Tugira ibiribwa biba bitandukanye, hari ibyororerwa mu mazi, abamo amafi, isambaza, barayaroba, bakayatunganya, bakayajyanana ku isoko, ayandi bakayajyana mu rugo bakayateka, bakakarya. Amafi ni meza cyane, aba mu biriinda ndwara, ibyubaka umubiri.

Tugira ibiribwa biba bitandukanye. Hari ibyororerwa mu mazi, habamo isambaza. Isambaza ni nziza cyane zigira intungamubiri nyinshi. Baraziroba bakazitunganya, bakazijyana mu rugo, bakazirya. Izindi bakazijyana ku isoko, bakabona amafaranga yo gukemuza ibindi bibazo.

Tugira ibiribwa byinshi biba bitandukanye hari ibyororerwa mu mazi, habamo amafi ,haba amafi manini n'amato, amanini barayaroba bakayajyana bakayatunganya bakayabaga bakayateka bakayarya , haba n'ayo bajyana ku isoko bakayagurisha bagakuramo amafaranga yo gukemuraza ibindi bibazo.

Tugira ibiribwa biba bitandukanye hari ibyororerwa mu mazi habamo amafi ,barayaroba bakayatunganya bakayajyana mu rugo, bakayateka bakayarya, andi bakayajyana ku isoko bakabona amafaranga bakayajyana mu rugo bakayakemuza ibindi bibazo.

Tugira ibiribwa biba bitandukanye hari ibyororerwa mu mazi, habamo amafi, barayaroba bakayatunganya bakayajyana mu rugo, bakayateka bakayarya, andi bakayajyana ku isoko, bakabona amafaranga yo gukemuza ibindi bibazo.

Ibigori ni byiza cyane, iyo bimaze kwera barabisarura, bakabijyana mu rugo bakabirya, ibindi bakabijyana ku isoko bakabona amafaranga, bakayajyana mu rugo, bakayacyemuza ibindi bibazo, baranabihunika bakabona imbuto yo kuzatera ikindi gihembwe cy'ihinga kiba gikurikiyeho.

Mu buhinzi tugira ibihingwa biba bitandukanye tugira uruyuzi rwera amadegede tukayateka, tukayarya, tukayajyana no ku isoko tukabona amafaranga yo gukemuza ibindi bibazo. Rugira n'imboga z'ibisusa urabiteka ukabirya biraryoha cyane.

Tugira ibihingwa biba bitandukanye, habamo umuperi umuperi ni igihingwa cyiza cyane cyera imbuto barya, barazisoroma iyo zimaze gushya bakazirya ziba ziryoshye cyane rwose.

Tugira ibihingwa biba bitandukanye, haba insina insina ni igihingwa cyiza cyane cyera ibitoke, haba ibyo barya haba ibyo benga, haba ibyo barya imineke biba biryoshye cyane rwose.

Tugira ibiribwa biba bitandukanye, haba insina zera ibitoki, barabirya, habibyo benga bagakuramo inzoga n'umutobe, ibyo barya barabitema bakabijyana mu rugo bakabitonora, bakabiteka bakabirya.

Mu buhinzi tugiramo ibihingwa biba bitandukanye habamo ibihingwa ngandurarugo nk'ibigori, ibishyimbo, amajereri haba n'ibindi bohereza mu mahanga biduha amafaranga urugero: nk'ibireti n'icyayi.

Tugira ibiribwa biba bitandukanye, ibigori n'ibiribwa byiza cyane iyo byeze barabisarura, umusaruro bakawuvana mu rugo bakabirya, ibindi bakabijyana ku isoko bakabona amafaranga yo gukemuza ibindi bibazo.

Tugira ibihingwa habamo n'ibigori, ibigori iyo byeze barabisarura, bakabijyana mu rugo, bakabirya, ubundi bakawujyana ku isoko bakabona amafaranga yo gukemuza ibindi bibazo.

Tugira ibiribwa biba bitandukanye habamo: imboga, isombe, imboga rwatsi urazisoroma ukahita uziteka, isombu urabanza ukajya kuyibetesha bikanoga neza ukayiteka ibiryoshye cyane.

Insina ni igihingwa cyera urutoki kibamo amoko menshi, haba ibitegwa n'ibitagwa hari ibitoke rero batema, bahita bajya guteka babyita inyamunyu.

Tugira ibihingwa byinshi biba bitandukanye, habamo ibiti byera imbuto, habamo umutima w'imfizi. Ni igiti cyera imbuto nziza cyane ziba ari nini, ziba ziryoshye cyane, zibamo isukari nyinshi, yo zeze barazisoroma bakazijyana mu rugo, bakazirya, ziba ziryoshye cyane rwose.

Tujyira ibiribwa byinshi biba bitandukanye habamo n'ibidodoki ni imboga, imboga nziza cyane, ziba mu birinda indwara, barabisoroma bakabijyana mu rugo bakabihata bakabiteka, hari ababirya imboga, hari abigerereka ku bishyimbo, bakabijyana ku isoko ukanabona amafaranga yo gucyemuza ibindi bibazo.

Tugira ibiti by'imbuto biba bitandukanye habamo amavoka, voka iyo zimaze kwera barazisoroma bakazitara zigashya, bakazirya izindi bakazijyana ku isoko bakabonamo amafaranga yo gukemuza ibindi bibazo.

Tugira ibiribwa biga bitandukanye hari ibitunguru, ibitunguru ni byiza cyane babiteka mu biryo bigahumura bikaryoha cyane. Birinda indwara ziba zitandukanye, hari n'ababirya ari bibisi.

Tugira ibihingwa biba bitandukanye， ibigori ni ibihingwa byiza cyane，iyo bimaze kwera barabisarura bakabijyana mu rugo，bakabihungura，bakabirya， ibindi bakabijyana ku isoko，bakabona amafaranga yo gukemuza ibindi bibazo.

Tugira ibiribwa biba bitandukanye, habamo isombe isombe ni ikiribwa cyiza cyane, barayisoroma bakayijyana kuyibetesha, bakayiteka bagashyiramo ibirungo iraryoha cyane.

Tugira ubwoko bwinshi cyane bw'imbuto ziba zitandukanye, urugero nk'indimu idufasha mu kugogora ibiryo tuba twariye, ikanadufasha mu kugabanya cyane ibinure biba mu mubiri wacu.

Tugira ibiribwa bitandukanye harimo n'imbuto. Imbuto za avoka ni imbuto nziza cyane. Zidufasha mu gukura neza. Umuntu wese wariye imbuto za avoka abasa neza cyane. Akagira ubuzima bwiza cyane.

Tugira ibiribwa biba bitandukanye habamo n'imbuto. Voka ni urubuto rwiza cyane, rwera ku giti bakarusoroma bakarujyana ku rutara, rwamara gushya bakarurya. Ruraryoha cyane ruba mu birinda indwara.

Tugira ibiribwa biba bitandukanye, habamo igitoki, ni ikiribwa cyiza cyane, baragiteka bakabirya, habamo ni ibyo batara bakabirya imineke, cyangwa bakabikamamo inzoga n'umutobe.

Haba ibiribwa biba bitandukanye, hari imbuto barya ari mbisi hakaba n'ibindi bateka habamo imyungu, ibitoke, ibirayi, amacunga, imineke, imyembe, ibinyomoro n'ibindi byinshi cyane biba bitandukanye.

Mu buhinzi habamo ibihingwa biba bitandukanye ,ariko mbere yo kugira ngo utere ibyo bihingwa byawe ,urabanza ugatunganya umurima wawe neza ,ukawuringaniza ,ukawutunganya ukamera neza ,kugira ngo n'ibihingwa urashyiramo bizazamuke bimeze neza cyane.

Tugira ibiribwa biba bitandukanye. Habamo ibishimbo. Ibishimbo ni byiza cyane. Iyo byeze barabisarura, bakabijyana mu rugo, bakabiteka bakabirya, ibindi bakabijyana ku isoko bakabona amafaranga yo gukemuza ibindi bibazo.

Bagira ibiribwa biba bitandukanye. Ibigori iyo byeze barabisarura, bakabijyana mu rugo, bakabireka bikuma neza. Bakabihungura bakabika imbuto zabyo mu mifuka, iba itandukanye. Ibindi bakabirya cyangwa bakabijyana ku isoko, bakabona amafaranga yo gukemuza ibindi bibazo.

Tugira ibiribwa biba bitandukanye urugero:nk'ikiribwa cy'imyumbati ni ikiribwa cyongera imbaraga cyane, umuntu wese wakiriye ahorana imbaraga nyinshi cyane abafite umubiri ukomeye cyane.

Tugira ibihingwa biba bitandukanye . Tugira icyayi . Igihingwa cyiza cyane ,baragisarura ,bakacyohereza mu mahanga, andi bakayajyana mu rugo ,bagatekamo icyi . Ayo mu mahanga agatangaamafaranga adufasha mu iterambere ry'igihugu cyacu.

Tugira ibiribwa yaba bitandukanye habamo n'imbuto, imyembe ni imbuto nziza cyane zisa umuhondo imbere iyo zimaze gushya, bazisoroma ku giti bakazironga bakazirya, bazirya mbisi ntago baziteka.

Tugira ibiribwa biba bitandukanye, habamo imbuto, habamo amacunga n'imyembe, pome, ibinyomoro, voka n'izindi nyinshi ziba zitandukanye. Imbuto ni nziza cyane; zidufasha mu kwirinda indwara.

Haba amoko menshi y'ibiribwa aba atandukanye cyane, urugero: nk'ibihaza n' ibiribwa byiza cyane bidufasha kurinda indwara zimwe na zimwe, ziba zibasira cyane abantu bakuze zidasize n'abana bato cyane.

Tugira amatungo aba atandukanye, habamo ihene, ni itungo ryiza cyane, rirya ubwatsi, bariha amazi, baryitaho cyane, rirororoka cyane, barijyana ku isoko, bakabona amafaranga yo gukemuza ibindi bibazo.

Tugira ubwoko bwinshi bw'imbuto， imbuto ziba mu birindi ndwara，habamo amapera， urubuto rwera ku giti rwamara guhisha bakarusoroma，bakarurya，bakarujyana ku isoko， bakabona amafaranga yo gukemura ibindi bibazo baba bafite mu rugo.

Tugira ibiribwa biba bitandukanye inyanya ziri mu bwoko bw'imboga, inyanya ni nziza cyane ziryoshya ibiryo barazitera bakazibagara bakazitaho, bakazitera umuti uzirinda udukoko iyo zimaze kwera bazijyana mu rugo, bakazirya izindi bakazijyana ku isoko bakabona agafaranga ko gukemuza ibindi bibazo.

Tugira ibiribwa biba bitandukanye. Habamo n'amatunda, amatunda ni imbuto nziza cyane wakoresha, abantu bakuru barazikoresha n'abana bato barazikoresha, kugira ngo ubuzima bwabo bugende neza cyane bakurane ubuzima buzira umuze.

Tugira ibiribwa biba bitandukanye habamo n'imbuto. Imbuto ni nziza cyane zituma imibiri yacu imera neza cyane. Ziba mu birinda indwara, habamo amapapayi ni meza cyane. Iyo amaze gushya barayasoroma bakayajyana mu rugo bakayahata bakayarya, aba aryoshye rwose.

Tugira ibiribwa biba bitandukanye habamo n'imbuto. Habamo indimu, amacunga, imyembe, ibinyomoro. Imbuto ni nziza cyane zirinda indwara, tukagira ubuzima buzima.

Tugiraga ubwoko bwinshi bw'imbuto, haba imbuto barya zidatetse. Haba amatunda, amatunda iyogeze barayasoroma bakayajyana mu rugo, bakayarya ayandi bakayajyana ku isoko, bakabona amafaranga yo gukemuza ibindi bibazo.

Tugira ibiribwa by'ubwoko bwinshi biba bitandukanye, habamo ibijumba ni byiza cyane biba mu bitera imbaraga. Barabiteka bakabirya biba biryoshye cyane, bakabijyana ku isoko bakabona amafaranga yo gukemuza ibindi bibazo.

Tugira ibiribwa biba bitandukanye. Dusangamo ibinyamafufu, habamo amateke. Aba mu bitera imbaraga. Barayasarura bakayajyana mu rugo, bakayahata, bakayateka, bakayarya. Araryoha cyane.

Tugira ibiribwa biba bitandukanye， habamo ibihingwa ngandurarugo，n’ibyo bohereza mu mahanga bakaduha amafaranga. Haba inanasi，inanas ni imbuto nziza cyane， ziraryoha， zigira umutobe mwinshi，ziba mu birinda indwara， zubaka umubiri，zimara n'inyota.

Tugira ibiribwa biba bitandukanye habamo avoka, avoka ni nziza cyane n'urubuto rurinda indwara, voka bayisoroma ku giti, bakayijyana mu rugo bakayitara igasha, bakayirya barayisatura habamo ikibuto uragitera kikongera kikamira.

Tugira ibihingwa biba bitandukanye, habamo ibikoro n'i ni ibinyamafufu biba mu bitera imbaraga, barabitera byamara kwera bakabisarura bakabijyana mu rugo bakabirya, ibindi bakabijyana ku isoko bakabona amafaranga yo gukemuza ibindi bibazo.

Tugira ibiribwa biba bitandukanye, habamo n'imbuto imbuto ni nziza cyane ku buzima bwacu ziba mu birinda indwara, zubaka n'umubiri, habamo amacunga, amacunga ni meza cyane iyo amaze gushya aba asa umuhondo, barayarya agira umutobe mwinshi, araryoha cyane rwose.

Tugira ibiribwa byinshi biba bitandukanye. Tugira amashu aba mu mboga. Aba mu birinda indwara. Amashu barayatera bakayitaho, bakayatera umuti wica ubukoko. Iyo yeze barayajyana mu rugo bakayateka bakayarya. Kandi bayajyana ku isoko, bakabona amafaranga yo gukemura ibindi.

Tugira ibiribwa byinshi bahinga, tugira amashu, amashu imboga nziza cyane, ziba mu birinda indwara, barayatera bakayuhira mu gihe cy'izuba, bayatera umuti urinda ubusimba, iyo yeze barayasarura bakayajyana mu rugo bakayarya, andi bakayajyana ku isoko bakabona amafaranga yo gukemuza ibindi bibazo.

Haba imbuto ziba zitandukanye, haba imbuto z'imyembe, amapera, amavoka, imyembe ni myiza cyane idufasha kugira ubuzima bwiza cyane, itwongerera intungamubiri mu mubiri wacu.

Tugira ibihingwa biba bitandukanye; habamo ibijumba, ni igihingwa ngandurarugo, ni ikinyamafufu, kiba mu bitera imbaraga, barabiteka, bakabirya, biba biryoshye cyane rwose, kandi byongera imbaraga n'ubudahangarwa bw'umubiri wacu.

Tugira ibihingwa biba bitandukanye， habamo ibigori，ibigori iyo byeze barabisarura，bakabijyana mu rugo， bakabirya， ibindi bakabijyana ku isoko， bakabona amafaranga，bakajyana mu rugo， agakemura ibindi bibazo.

Tugira ibiribwa byinshi biba bitandukanye, tugira akawunga. Kkawunga ni ibiribwa byiza cyane, tugira n'imiceri, barabitunganya bakabishyira mu mifuka, yabugenewe bakabijyana kubibika ahantu hamwe, biba bifite umutekano wizewe cyane rwose.

Tugira ibiribwa biba bitandukanye， habamo ibirayi， ibirayi ni ibinyamafufu bitera imbaraga， barabijyana mu rugo bakabiteka， bakabirya， hari ababiteka babihase， hari ababiteka babigeretse， hari ababikaranga， hari ababiryamo ifiriti，ibindi bakabijyana ku isoko， bakabona amafaranga， bakayajyana mu rugo， bakayakoresha ibindi.

Tugira ibiribwa biba bitandukanye, amashaza n'ibihingwa byiza cyane, n'ibinyamisogwe biba mu bitera imbaraga, barabisoroma bakabijyana mu rugo bakabiteka bakabirya, cyangwa bakabijjyana ku isoko, bakabona amafaranga yo gukemuraza ibindi bibazo.

Tugira ibiribwa biba bitandukanye, haribyo amatungo arya, ihene zirya ibyatsi, haba n'urubingo, urubingo ntabwo ari ibyatsi byimeza, barabitera bakabibagara bakabyitaho bikera, barabikenura bikongera bigashibuka.

Tugira ibihingwa biba bitandukanye, habamo urusenda . Iyo rumaze kwera bararusarura bakarujyana mu rugo ,barurya mu biryo rutera apeti . Urusigaye barujyana ku isoko bakarugurisha, bakabona amafaranga yo gukemura ibindi bibazo.

Tugira imboga nyinshi ziba zitandukanye zibamo amoko menshi habamo imboga rwatsi, habamo amashu. Amashu ni uruboga rwiza cyane, umuntu wese ararurya abaye umwana cyangwa umuntu mukuru, rutuma tugira ubuzima bwiza cyane, ruturinda indwara za hato na hato.

Tugira ibihingwa biba bitandukanye, habamo nk'ibirayi, ibirayi n'ibinyamafufu, ni ibitera imbaraga, ni ibihingwa byiza cyane barabitera, bakabibagara, bakabyitaho cyane. Babitera n'umuti iyo bimaze kwera barabisarura bakabijyana mu rugo, bakabiteka bakabirya ibindi bakabijyana ku isoko, bakabona amafaranga yo gukemuza ibindi bibazo.

Tugira ibihingwa ngandurarugo n'ibihingwa byoherezwa mu mahanga. Tugira imyumbati, imyumbati ni igihingwa cyiza cyane, iyo imaze kwera barayisarura bakayijyana mu rugo bakayirya, bagasagura iyo bajyana ku isoko bakabona amafaranga, bakayazana mu rugo agakemura ibindi bibazo. Dusoromaho n'isombe tukayirya.

Tugira ibhingwa biba bitandukanye habamo pavulo .Pavulo ni igihingwa cyiza cyane bakirya mu biryo bagifata nk'ibirungo ,iyo cyeze baragisoroma bakakijyana mu rugo, ayandi bakayajyana ku isoko bakabona amafaranga, bakajyana mu rugo bakayakemuza ibindi bibazo.

Tugira ibihingwa biba bitandukanye, hari: ibihingwa ngandurarugo, haba n'ibyoherezwa mu mahanga. Pavuro ni igihingwa cyiza cyane gifatwa nk'ibirungo ,bagiteka mu biryo ,kiraryoha cyane ,gituma bihumura ,bikazana impumuro nziza cyane.

Tugira ibiribwa biba bitandukanye. Habamo n'imbuto, voka ni nziza cyane yera ku giti. Urayisoroma ukayitara, yamara gushya ukayirya. Iba mu birinda indwara.

Imboga ni nziza ziba mu biribwa barinda indwara dusangamo inyanya, karoti ,pavuro ,ibitunguru ,intoryi n'ibindi byinshi biba bitandukanye.

Tugira ibiribwa biba bitandukanye， habamo imyumbati， ni myiza cyane， iba mu bitera imbaraga，ni igihingwa ngandurarugo， barayiteka，bakayirya，bakayijyana no ku isoko， bakabona amafaranga， yo gukemuza ibindi bibazo.

Tugira ibihingwa biba bitandukanye habamo ibigori n'ibihiblgwa byiza cyane, iyo byeze barabisarura bakabijyana murugo bakabiteka bakabirya cyangwa bakabyotsa cyangwa bakabihiteshamo umutsima, ibindi bakabijyana ku isoko bakabona amafaranga yo gukemuza ibindi bibazo.

Tugira ibiribwa biba bitandukanye, haba ibiribwa ngandurarugo, haba n'ibindi bohereza mu mahanga, ibihingwa ngandurarugo habamo ibirayi, ibirayi ni byiza cyane ni ibinyamafufu byubaka umubiri biraryoha, hari ababirya babitogosheje, hari ababirya babigeretse, hari n'ababirya ba bitetse mo ifiriti.

Tugira ibiribwa biba bitandukanye habamo imbuto, haba amatunda. Amatunda ni meza cyane aba mu birinda indwara araryoha, iyo amaze kwera barayasoroma bakajyana mu rugo bakayarya, cyangwa bakayajyana ku isoko bakabona amafaranga yo gukemuza ibindi bibazo.

Tujyira ibiribwa bibaga bitandukanye habamo n'imbuto, imbuto ni nziza cyane ziba mu birinda indwara habamo voka ikaba ifite ikibuto imbere, voka barayitara bakayirya, iba iryoshye cyane cyangwa bakayijyana ku isoko bakabona amafaranga yo gucuza ibindi bibazo.

Tugira ibiribwa biba bitandukanye. Habamo ibirayi ni ibinyamafufu biba mu bitera imbaraga. Biraryoha cyane. Ibirayi iyo bimaze kwera barabisarura bakabijyana mu rugo bakabiteka, bakabirya. Ibindi bakabijyana ku isoko bakabona amafaranga yo gukemuza ibindi.

Tugira ibiribwa biba bitandukanye; habamo ibitoki, ibitoki ni ibiribwa byiza cyane, byera ku nsina barabiteka bakabirya, hari abitekaga bikaranze, hari ababitogosaga, byubaka umubiri wacu, bidutera imbaraga, birinda n'indwara.

Tugira ibiribwa biba bitandukanye. Habamo n'imbuto. Imbuto ni nziza cyane. Ziba mu birinda indwara. Habamo n'amatunda, amatunda ni meza cyane ku buzima bwacu aba asa umukara iyo ahiye. Imbere asa umuhondo. Ni nziza cyane rwose ziraryoha.

Tugira ibihingwa by'ubwoko bwinshi biba bitandukanye, tugira inyanya barazihinga bakazitaho bakazitera umuti uzirinda ubukoko, iyo zimaze kwera ziba zisa n' umutuku barazisoroma bakazijyana mu rugo bakazirya izindi bakazijyana ku isoko, bakabona amafaranga yo gukemuza ibindi bibazo.

Tugiraga ibihingwa biba bitandukanye habamo ibigori. Iyo byeze barabisarura bakabijyanana mu rugo bakabirya, ibindi bakabijyana ku isoko bakabona amafaranga yo gukemuza ibindi bibazo.

Mu buhinzi habamo ibihingwa biba bitandukanye cyane. Urugero igihingwa cy'icyayi ni igihingwa, abanyarwanda twese tuzi cyane ko cyinjiza amafaranga menshi cyane.

Tugira ibiribwa biba bitandukanye, habamo n'imbuto haba ibiti by'amacunga iyo iyo yeze asa umuhondo ,barayasoroma bakayajana mu rugo bakayajya ,ayandi bakajyana ku isoko, bakabona amafaranga yo gukemuza ibindi bibazo.

Tugira ibiribwa biba bitandukanye， habamo n'imbuto， indimu ni urubuto rwiza cyane， ruvura indwara， rurinda imibiri yacu，kwatakwa n'uturwara twa hato na hato， rugabanya n’ibinure biba mu mibiri yacu.

Tugira imboga nyinshi z'amoko menshi ziba zitandukanye, harimo amashu, karoti, idodo n'izindi nyinshi cyane. Amashu ari mu birinda indwara, amashu ni meza cyane, umuntu wese uyariye, ahorana itoto ku ruhu rwe.

Tujyira ibihingwa biba bitandukanye, haba ibihingwa ngandurarugo habamo nk'indimu, indimu ni urubuto rwiza cyane rwose, bararurya ruba mubirinda indwara, rugabanya umubyibuho ukabije, tugabanya n'ibinure biba mu mubiri wacu bituma turwara indwara zitandukanye zidacyira.

Iyo ibigo bimaze kwera, barabisarura bakabihungura bakavanamo, imbuto z'ibigori bakazihunika, ibindi bakabijyana ku isoko, bakabona amafaranga bakayakemuza ibindi bibazo, baba bafite mu ngo zabo.

Amasaka ni igihingwa, iyo kimaze kwera baragisarura bakakijyana mu rugo, bakavanamo umutsima n'igikoma. Bavanamo umusururu n'imbetezi, asigaye bakayajyana ku isoko, bakabona amafaranga yo gukemuza ibindi bibazo.

Mu buhinzi dukenera imbuto, iyo tugeze mu gihe cyo gutera, dukenera imbuto y'ibishyimbo, igomba kuba yarateguwe, yaratunganyijwe, igahunikwa ahantu heza hizewe cyane.

Tugira ubwoko bwinshi bw' imbuto bahinga habamo: ibishyimbo bigira amabara atandukanye, haba ibishyimbo by' umukara ni ibishyimbo byiza cyane rwose birera biraryoha.

Hashira ibiribwa byinshi biba bitandukanye habamo ibigori. Ibigori ni byiza cyane rwose biraryoha barabisarura bakabijyana mu rugo bakabiteka cyangwa bakabijyana ku isoko bakabona amafaranga yo gukemuza ibindi bibazo.

Tugira imbuto nyinshi batera, habamo ubwoko bwinshi cyane, habamo, ubwibishyimbo, ubwa soya, amasaka, amashaza, bawujyana ku isoko, bakawupima ku biro, abagiye kugura bakagura ku munzani.

Imyaka iyo yeze barayisarura bakayijyana mu rugo, bakayihura, bakayigosora bakavanamo imicafu yose, bakabika imbuto yo gutera, ibindi bakabirya ibindi bakabijyana ku isoko, bakabona amafaranga yo gukemuza ibindi bibazo.

Tugira imbuto z'ibihingwa byinshi ziba zitandukanye, haba imbuto y'ibigori, ibigori iyo bimaze kwera barabisarura, bakabijyana mu rugo, bakabivanaho ibishishwa, bakabimanika bikuma, barabihungura bakajya kubitera, ibindi bakabijya, ibindi bakabijyana ku isoko bakabona agafaranga yo gukemuza ibindi bibazo.

Iyo imyaka imaze kwera turayisarura, tukayijyanaana mu rugo, tukayihura, tukayigosora, tukavanamo imicafu yose, tugatoranya imbuto, tuyihunika ahantu heza cyane hatazagerwa n'imungu.

Tugira imbuto ziba zitandukanye, tugira imbuto z'ibishyimbo habaho ibishyimbo bifite amabara atandukanye, tugira ibishyimbo by'umukara, ni imbuto nziza cyane iba yaratoranyijwe ikavanwamo imicafu rwose, ikabikwa neza, ni ibishyimbo byera cyane.

Mu gihe cy'ubuhinzi dukenera imbuto zo gu gutera cyane iyo tugeze mu gihe cyo gutera ibishyimbo. Tugomba gutoranya imbuto z'ibishyimbo tukazibika ahantu hazima.

Mu buzima bwacu bwa buri munsi dukenera imbuto ziba zitandukanye cyane urugero: nk'imbuto z'ibishyimbo zigomba gutoranywamo imicafu yose zikabikwa neza ahantu hizewe cyane.

Mu buhinzi tugira ibihingwa bitandukanye. Urugero ni umuceri uhingwa ahantu haba amazi menshi kugira ngo ubashe gukura neza. Umuceri bawuhinga mu kibaya kirimo amazi menshi cyane.

Iyo imyaka yeze turayisarura tukayijyana mu rugo bakayitunganya cyane bagakuramo imyanda yose, bakayibika neza hari n'iyo bajyana ku ruganda igatunganywa bakavanamo imbuto bakazibika neza bakayishyira mu mifuka yabugenewe, bakayishyiramo bakurikije ku biro.

Tugira ibihingwa byinshi biba bitandukanye bigira imbuto habamo ubunyobwa; ubunyobwa ni bwiza cyane barabutera, bushorera mu butaka burera bakabusarura, bakabujyana mu rugo, bakabutonora, bakabonamo imbuto, bakabuteka bakaburya ubundi bakabujyana ku isoko, bakabona amafaranga yo gukemuza ibindi bibazo.

Tugira imbuto ziba zitandukanye cyane, urugero ingano, ingano ni imbuto nziza cyane ivamo ifarini bakoresha mu gukora imikate, amandazi n'ibindi byinshi cyane biba bitandukanye, ivamo n'igikoma, ivamo n'ubugari abantu baba barya.

Tugira ibihingwa biba bitandukanye habamo ubunyobwa, barabusarura bakabujyana mu rugo bagakuramo ibihuhwe, ubundi bakabuhunika, ubundi bakaburya bakabujyana ku isoko bakabona amafaranga yo gukemura ibindi bibazo.

Tugira ibihingwa byinshi biba bitandukanye habamo amasaka. Amasaka ni meza cyane rwose barayatera yamara kwera bakayasarura bakayajyana mu rugo bakayahura, bakayagosora, bagakuramo imicafu yose bakabika n'imbuto yo kuzatera ubutaha.

Tugira ibiribwa byinshi biba bitandukanye, habamo n'amashaza, amashaza meza cyane, aba mu binyamisogwe, abamo n'imbuto, imbere barayatonora bakavanamo imbuto, bakaziteka bakazirya, cyangwa bakazijyana ku isoko bakabona agafaranga ko gukemuza ibindi bibazo.

Tugiraga imbuto nyinshi batera ziba zitandukanye, habamo: amasaka, ibishyimbo, ibigori, amasaka barayabiba akamera yamara kwera bakayasarura bakayajyana mu rugo bakayahura, bakayagosora bakavanamo imicafu yose, bagahunika imbuto bazatera mu kindi gihe.

Tugira imbuto z'ibihingwa ziba zitandukanye， tugiramo imbuto y'ibigori，amajeri， ibishyimbo，amasaka，ka n'izindi nyinshi zirasarurwa，zikajyanwa ahantu habugenewe， zigatunganywa ，zamara gutunganywa， zihunikwa ahantu hizewe cyane.

Tugira ubwoko butandukanye bw'imbuto, habamo amasaka, ibishyimbo by'amabara menshi, ibigori, amasoya, amajyeri, n'ibindi byinshi, barabitunganya bakabihunika, tukazongera kubifata tukabijyana kubitera.

Tugira ubwoko bw'imbuto ziba zitandukanye, batera imbuto z'ibigori, ibigori bimaze kwera barasarura bakabijana mu rugo, bakabihungura bakabika imbuto, ibindi bakabirya, ibindi bakabijyana ku isoko bakabona agafaranga yo gukemuza ibindi bibazo.

Abavuzi b'amatungo bavura amatungo aba atandukanye, bavura ingurube . Ingurube ni itungo ryiza cyane ,ryororoka vuba ritanga ifumbire ,rirya ibintu byose . Rirya ibyatsi , rirya ibiryo ,rirya inyama n'ibindi byinshi cyane.

Abavuzi b'amatungo bavura amatungo aba atandukanye, bavura inka, ihene, intama, inkoko, inkwavu, iyo byarwaye babitera imiti, bakabiha ibinini bivuraga indwara ziba zitandukanye biba byarwaye.

Abavuzi b'amatungo, bavura amatungo atandukanye bavura ingurube, ingurube ni itungo ryiza cyane rirya ibintu byose; rirya ibyatsi, rirya ibiryo, riryaga inyama. Ni itungo ritanga ifumbire, ryororoka vuba cyane, ritanga amafaranga mu gihe cya vuba cyane.

Abavuzi b'amatungo bavura amatungo bagatandukanye, bavuraga inka. inka ni itungo ryiza cyane rirya ubwatsi, ritanga ifumbire, ritanga amata, barijyana ku isoko bakabona amafaranga, bakayajyana mu rugo bagakemura ibindi bibazo.

Abavuzi b'amatungo ni abantu baba barabyize mu mashuri, bakiga kuvura amatungo, kuyatera inshinge, bakiga imiti iba itandukanye ihabwa amatungo mu gihe bayitaho iyo yarwaye, cyangwa bakayatera intanga, kugira ngo abyare atahuye n'imfizi.

Abavuzi b'amatungo bavura amatungo n'inyamaswa biba bitandukanye, bavura ingagi inyamaswa ziba mu cyanya cy'birunga, ba mukerarugendo bajya kuzisura bakishyura amadovize bakadufasha mu iterambere ry'igihugu cyacu.

Abavuzi b'amatungo， bavura amatungo menshi agatandukanye， bavura inka， ihene，intama， inkoko， inkwavu， bapima n'inyama， iyo bamajije kuzibaga， bazana agapimo bagapima niba inyama zujuje ubuziranenge，abantu bakabona kuzihaha，bakazijyana kuzirya.

Abavuzi b'amatungo bavura amatungo atatandukanye, hari inkoko za kinyarwanda, haba n'iza kijyambere inkoko za kijyambere zitabwaho cyane, bazitera imiti izirinda indwara baziha amazi menshi ,baziha n'ibyo kurya biba byakorewe mu nganda, ntabwo zisohoka ngo zijye gutoragura ibyo kujya hanze.

Muganga w'amatungo avura amatungo aba atandukanye , avura inka, inka ni itungo rirya ibyatsi rigatanga umusaruro, bitanga amata, ritanga ifumbire, ukanarigurisha ukaba wabona amafaranga yo gukemuza ibindi bibazo.

Abavuzi b'amatungo bavura ubwoko bwinshi buba butandukanye bw'amatungo. Habamo inkoko, inkoko y'isake ni inkoko y'ikigabo kibangurira inkokokazi, kugira ngo zibashe guturaga amagi menshi kandi avemo imishwi. Iyo utabangurije inkokazi yawe amagi aba amahuri.

Abavuzi b'amatungo bavura amatungo menshi aba atandukanye. Bavura inkwavu. Ni amatungo meza cyane arya ibyatsi, atanga umusaruro mu gihe gito gishoboka. Abyara abana barenze umwe. Ni nziza cyane rwose. Barazirya, zigira n'inyama ziryoha.

Abavuzi b'amatungo, bavura amatungo atandukanye， habamo inka， ihene，intama， habaga n'igikorwa cyo kuzambika amaherena ku matwi， kugira ngo babashe kuzitandukanya n'izindi，bikaba umwihariko wazo， zikaba zizwi ko zambaye amaherena ku matwi yazo.

Abavuzi b'amatungo bavura amatungo aba agatandukanye habamo inka. Inka irya ubwatsi, itanga ifumbire, itangaga amata, barijyana ku isoko bakabona amafaranga yo gukemura ibindi bibazo byo mu rugo.

Abavuzi b'amatungo bavura amatungo aba atandukanye bavura inka. Ni itungo ryiza cyane rirya ibyatsi, rirororoka, ritanga amata, ritanga ifumbire, barijyana ku isoko bakabona amafaranga yo gukemuza ibindi bibazo.

Abavuzi b'amatungo bavura amatungo aba atandukanye habamo n'inka; itungo ryiza cyane rirya ibyatsi, ritanga ifumbire ritanga amata, iyo ryarwaye rero bazana umuganga akarivura, akaryitaho, rigasubirana ubuzima buzima.

Abavuzi b'amatungo bavuraga amatungo abagatandukanye, habaga ihene ni itungo ryiza cyane riryaga ibyatsi rinywaga amazi ritanga ifumbire barijyana ku isoko bakarigurisha bakabona amafaranga yo gukemuza ibindi bibazo.

Abavuzi b'amatungo， bavura amatungo aba atandukanye， bavura inkoko. Inkoko ni itungo ryiza cyane ritera amagi，abana bakayarya，bagakura neza，abantu bakuru barayarya，atanga intungamubiri nyinshi， arinda indwara， akanubaka umubiri.

Abavuzi b'amatungo bavura amatungo aba atandukanye, bavura inka. Inka ni itungo ryiza cyane, rirya ibyatsi, ritanga ifumbire, ritanga amata, rirororoka, barijyana ku isoko bakarigurisha, bakabona amafaranga yo gukemuza ibindi bibazo.

Abaganga b'amatungo bavura amatungo aba atandukanye habamo intama, intama ni itungo ryiza cyane ushobora kuryorora ugakuramwo amafaranga mu gihe warijyanye ku isoko ukajya afasha umuryango, ukaba wanaribaga ukabona inyama zo guteka.

Abavuzi b'amatungo bavura amatungo atandukanye, bavuraga inka ni nziza cyane ni itungo rirya ibyatsi, ritanga amata, ritanga ifumbire, rirororoka baranariba bakarya inyama, izindi bakazijyana ku isoko bakabona amafaranga yabo yogukemuraza ibindi bibazo.

Abavuzi b'amatungo bavura amatungo aba atandukanye, habamo n'inkoko, inkoko ni nziza cyane, zitanga amagi, amagi bashobora kuyarya ari umureti cyangwa bakayarya atogosheje ni meza cyane, bituma umubiri wacu ugira imbaraga, aba no mu byubaka umubiri no mu birinda indwara.

Abavuzi b'amatungo bavura amatungo aba atandukanye, hari amatungo maremare, amagufiya, habamo n'inkwavu n'amatungo magufi arya ibyatsi, yororoka vuba cyane, atanga n'ifumbire.

Abavuzi b'amatungo bavura amatungo aba atandukanye bavura ihene. Ni itungo ryiza cyane rirya ibyatsi, ritanga ifumbire, rirororoka ribyara abana barenze umwe cyangwa umwe, barijyana ku isoko bakabona amafaranga yo gukemuza ibindi bibazo.

Abavuzi b'amatungo bavura amatungo aba atandukanye, bavura ihene ni inyamaswa zirya ibyatsi ,barazorora zigatanga ifumbire, zigatanga n'inyama. Abavuzi b'amatungo baza gusuzumako inyama nta kibazo zifite bakazijyana mu rugo bakajya kuzirya.

Abavuzi b'amatungo bavura amatungo menshi habamo ingurube. Ingurube ni itungo ry'ibintu byinshi biba bitandukanye rirya ibyatsi, rirya inyama, ribyara abana benshi ryororoka vuba cyane, ritanga umusaruro uhagije, ritanga ifumbire, ritanga n'amafaranga menshi cyane.

Abavuzi b'amatungo bavura amatungo aba atandukanye urugero: nk'intama, ihene, inka, ingurube. Bagira imiti bazitera iyo ziba zarwaye, kugira ngo zigarure ubuzima bwiza.

Abavuzi b'amatungo， bavura amatungo aba atandukanye， bavuramo n'inka， iyo zarwaye barazivura，bakazitera imiti. Inka ni itungo ryiza cyane，ritanga ifumbire，ritanga amata，barijyana ku isoko， bakabona amafaranga atubutse， yo gukemuza ibindi bibazo.

Abavuzi b'amatungo bavura amatungo atandukanye, bavura inka, inka ni itungo ryiza cyane ritanga ifumbire, rirya ubwatsi, ritanga amata, iyo ryarwaye rero ni ukuryitaho ukarivuza, rirororoka, urijyana ku isoko ukabona amafaranga, ukayajyana mu rugo agakemura ibindi bibazo.

Tugira inyamaswa ziba mu ishyamba. Habamo inkende. Inkende n'inyamaswa yenda gusa n'umuntu ikunda kurya imineke. Irasimbuka cyane, ikunda kuba mu biti igendera mu biti hejuru.

Tugira inyamaswa ziba mu gasozi. Habamo n'urukwavu, rw'agasozi. Ni akanyamaswa gato cyane kariruka cyane. Abahigi bajya bajya kugahiga, bakagafata, bakajyana mu rugo, bakagateka, bakakarya. Kagira inyama ziryoha cyane.

Inyamanswa zibaga mu gasozi zibagamo, amoko menshi atandukanye, habagamo inkende, zikundaga kurira cyane, ziryaga imbuto cyane, imineke habagamo, n'izindi nyinshi zibaga zitandukanye.

Mu nyamaswa, tugira inyamaswa ziba mu mashyamba habamo inyoni, habamo umusure. Umusure ni inyoni itari nini igira imirizo miremire, igira n'agasunzu ku mutwe. Umusure urona, uryaga ibishimbo biri kumera, urya n'ururabo rw'ibishyimbo.

Tugira ubwoko bwinshi bw'inyamaswa ziba mu mashyamba, habamo ingagi, ingagi n'inyamaswa nziza cyane, iba mu cyanya cy'ibirunga ba mukerarugendo bashaka kuzisura bagasiga amadovize, adufasha mu iterambere ry'igihugu cyacu.

Tugira inyamaswa nyinshi ziba zitandukanye, hari izororerwa mu rugo, iziba mu mashyamba. Inzovu ni inyamaswa iba mu mashyamba irisha ibyatsi, igira imbaraga nyinshi ,igira ibiro byinshi bibarirwa mu magana.

Inyamaswa ziba mu gasozi zibamo amoko menshi cyane atandukanye. Habamo : impara n'imparage. Ni inyamaswa zikunda kwiruka cyane. Zishobora no kugenda urugendo runini cyane zishaka amazi yo kunywa.

Inyamaswa ziba mu gasozi, habamo inzoka. Inzoka ni inyamaswa mbi cyane, iraryana igira ubumara, iyo iguciriye batakugomboye, wahuma cyangwa ugapfa, iyo ikurumye bisaba kwihutira, kujya kwa muganga.

Mu nyamaswa ziba mu gasozi， habamo n'inyoni， habamo inyoni yitwa inuma， inuma ni nziza cyane， inyamaswa iba ahantu hatuje， haba amahoro， hataba umuvurungano， hataba n’induru， n’inyamaswa nziza cyane. .

Mu nyamaswa z'agasozi habamo ubwoko bwinshi buba butandukanye, habamo nk'inyoni inyoni nini. Icyiyoni ni inyoni igira amabara y'umweru n'umukara, umweru uba ku ijosi ukamanuka ku nda ahandi hose iba ifite amabara y'umukara, ikagira n'amaso y'umukara.

Habaho inyamaswa ziba mu gasozi, habamo ikigagari kiri mu bwoko bw'inkoko nini, kenda kungana nka dendo, gitera amagi ,kikararira, kikayaturaga. Abahigi bajya kubihiga bakabyica, bakabizana mu rugo bakabiteka, bakabirya.

Tugira inyamaswa ziba mu mashyamba, habamo inyoni, inyoni ni akanyamaswa gato cyane, karaguruka, karya udusimba n'utwatsi duto tuba tworoshye, n'ibindi byinshi cyane barya bitandukanye, inyoni zigaragara neza cyane, zibereye amaso.